Abantu bicaye ku ruhande hateretse amazi, bafite n'ibitabo bari mu nama, bashobora kuba ari abadepite bicaye ku ntebe bari kwiga ku bibazo igihugu gifite cyangwa se bari mu nama y'ibintu bigomba gushyirwa mu gihugu.

Ndikubona umugore uhagaze usa nkaho ari kubwira abantu bamwumva hari n'abandi bisa nkaho bicaye bamuteze amatwi bumva ibyo avuga neza ijambo kuri rindi .

Basa nkaho bicaye bariganirasa nkaho bateze umudamu umwe uhagaze abandi baricaye harimo abasaza'abakecuru n'abakobwa n'abasore bityo bakabateze amatwi uri kubabwira.

Abantu bicaye mucyumba kinini cy'inama basa nkaho bari kuganira bimwe mu bikorwa, bateze amatwi uri kubabwira, bityo harimo abagore n'abagabo basa nkaho bashaje, n'aba mama basa bashaje.

Usa nkaho bicaye mu cyumba cy'inama basa nkaho bayoboye inama harimo abagore babiri n'abagabo babiri umugore umwe arimo kwandika undi yifashe muntuza.

Ndi kubona abantu basa nkaho bicaye ahantu bari kureba ibintu bishobora kuba biri kubera aho hantu kandi aho hantu hari imeza iteretseho amazi bashobora kuba bari kunywa.

Bicaye ahantu mu kumba, ku ntebe z'ibyumba ziriho n'ibitambaro. Hariho imashini ndetse n'umuzungu uyicaye imbere ndetse n'undi umuhagaze amabere, bameze nk'aho bari mu kazi.

Abagabo bicaye mu nama. Imbere yabo hateretse amazi n'ibindi bikoresho byabo, bari gukoresha muri iyo nama barimo bahana ibitekerezo.

Ndi kubona abagabo basa nkaho bicaye hano mu nama, bamwe bambaye amakoti abandi bambaye amashati, harimo n'abambaye marineti bivuze ko barwaye amaso.

Abantu basa nkaho bari kuganirira ahantu mu itente, ibigaragara byo bateze amatwi uhagaze ari kuvuga, hari abagore, hari abakobwa n'abasaza muri iyo nama.

Ndikubona abantu basa nkaho bicaye mu cyumba cy'inama. Harimo abagore basutse imbere yaho hateretse imashini n'abagabo bakeya. Kandi bari kuvuga ku bintu utapfa kumenya.

Umugabo usa nkaho ari ahantu ari kubwira abantu babwirwa ibintu ari kumva, imbere ye hateretse amazi atatu, hirya hicaye umugabo usa nkaho yishimye wambaye nawe amarinete.

Ndabona abagore babiri umwe wambaye marinete, nundi wambaye amarinette nawe nisaha n'impeta bose ibyo barabyambaye barasa nkaho bandika ku mpapuro.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba, basa nk'aho bari kuvuga ku bijyanye n'ibintu byabo bwite kandi bafite amazi imbere yabo n'amamashini.

Abantu bicaye harimo uwa mbaye ikote ni ishati nu uwa mbaye n'amaherena n'uwa mbaye nagatambaro kuruhande n'amarimete. Hirya hateretse amazi n'amakayi.

Sare nini yicayemo abana basa nkaho bari kwiga kandi iyo sare irimo abanyeshuri bambaye ibintu bisa imipira isa n'amapantaro asa bityo rero bakaba bateze amatwi uri kubabwira.

Ndikubona abantu basa nkaho bicaye mucyumba, basa nkaho bari kuganira babwirwa, bumva kandi ibyo bintu birimo abagore n'abagabo.

Iki ni icyumba k'inama harimo abantu bicaye ku meza bicaye no ku ntebe harimo n'abantu bahagaze bafite kamera basa nkaho bari kubafotora bafata n'amashusho agaragaza ibyo bari gukora.

Abantu benshi bahagaze mu cyumba k'inama aho bashobora kuba bari kuganira ku bintu babwirwa n'uri kubabwira bisa nkaho ubona ko bari gukoma amashyi bishimye usibye umuntu umwe usa nkaho yicaye.

Umugore usa nkaho ahagaze imbere y'abantu benshi imbere harabantu bahicaye bigaragara ko Ari abanyacyubahiro, imbere yabo hateretse amazi, umugore bisa nkaho ari kubabwira ibintu bakabyumva.

Bicaye mu cyumba k'inama aho bafite amamashini, imbere yabo hari amazi hari n'abahagaze basa nkaho bari kubafotora hari n'abandi bari imbere yabo bari kubabwira ibyo bari kumva.

Kubona abagabo babiri basa nkaho bakorera guverinoma y'u Rwanda cyangwa se basa nkaho barimo izindi bizinesi, imbere yabo hateretse utuntu tw'uducupa n'ibirahuri bafite telefone abantu benshi bakunze kwitaba ipod aho bambaye amakoti.

Basa nkaho bicaye mu cyumba cy'inama, basa nkaho bari kumva amagambo bari kubwirwa, bityo harimo abagabo bakuze n'abagore bakuze.

...Mucyumba cy'yinama ahantu hari ekara, bari kureba cyangwa se kwiga ku bijyanye na bizinesi, ubona ko babikunze, bibasa ku maso.

Bicaye mu ntebe zakozwe n'inganda zitandukanye za hano mu Rwanda basa nk'aho bari kwiga ku bijyanye n'ibibazo cya bari mu nama, bashobora kuba bari mu kazi, intebe zibafasha gukora akazi mu buryo bwihuse.

Ndikubona abagore babiri basa nk'aho bicaye ahantu mucyumba cy'inama, aho imbere yabo hateretse amazi n'utuntu tumeze nk'uduteremusi. Aho abo bagore bambaye ibintu bisa n'ubururu.

Icyumba kinini kirimo abantu basa nkaho bari mu nama, aba harimo abafite ama mashini bari kuri murandasi mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi imbere yabo hateretse amazi.

Umuntu usa nk'aho akorera Leta, umanitse ukuboko, yambaye amarinete, ni umugore, imbere ye hari amazi n'ibipapuro, hirya ye hari umugabo usa nk'aho ari kumureba ibyo avuga.

ndabona abantu bicaye ku ntebe za plastic hari nabandi bahagaze aho basa nkaho bateze amatwi ibintu barikumva biri kuva kuruhande rwabo basa nkaho bishimye.

Ndabona abagabo batatu aho bose basa nkaho bari kumva ibintu biri kuvugwa bose bafite amamashini abenshi bakunze kwita murandasi.

Icyumba ki nama aho harimo abagabo bambaye amakote undi wambaye ishati y'icyatsi, n'abagore bari hirya umwe wambaye amarinete n'amaherena, imbere yabo hateretse amazi bisa nkaho bari kumva ibyo babwirwa.

Umugabo wicaye asa nkaho ari ku cyumba cy' inama, iki cyumba kandi umugabo akaba ari umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, uminisitiri atetswe n'amazi, imbere yambaye amarineti n'ikoti na karuvati n'ishati.

Ndabona umugore uhagaze usa naho ari kubwira abantu bari kumwumva abandi bicaye, ashobora kuba ari kubabwira ku bintu bijyanye n'igihugu.

Ndabonamo abagore babiri bicaye n'umugabo umwe, abagore babiri umwe usankaho arikuvuga ibijyanye na kigali , umugabo usankaho arikureba ikintu kirihasi imbere ye hari imashini.

Abapolisi babairi bakorera ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano mu Rwanda mu mugi wa Kigaki, bisa nkaho bicaye ahantu barikureba, bumva ubabwira ibyo bari kumva.

Ndabonamo abantu basa nk'aho bicaye mu cyumba cy'inama bari kuganira kubintu bishobora kuba byateza imbere igihugu kandi bagafatira ibyemezo abantu basa nk'abananiranye.

Abantu babiri harimo umupolisi n'umudamu wisize ibintu by'umutuku ku munwa wambaye na marinete ufite imisatsi y'imibadikano aho bashobora kuba bicaye mucyumba cy'inama imbere yabo hateretse n'amazi .

Ndi kubona umugore n'umugabo hirya bari ahantu basa nkaho bari mu cyumba cy'inama bari kwandika, imbere yabo bafite amazi. Umugabo yambaye ikote n'ishati ijya kuba ubururu, umugore yambaye ikanzu.

ndi kubona abantu basa nkaho bicaye ahantu ku ntuza hari irange ry'icyatsi iry'umuhondo n'iry'ubururu ,bisa nkaho bari kureba ibintu abandi banyacyubahiro bari imbere bari kunywa amazi, amazi abateretse imbere

Abagabo n’abagore basa nkaho bahagaze, abandi bicaye bambaye udupfukamunwa. bari ahantu mu cyumba basa nkaho bari kuganira ku bintu bya poroject (umushinga) yabo, kandi hari n'amashakoshi n'ibikombe.

Abantu batatu, umugore umwe n'abagabo babiri bamukikije, umugabo umwe afite imashini, umugore yambaye amarinete, umugabo wundi nawe yambaye amarinete bose amazi abateretse imbere.

Abahanga ku bijyanye n'ibibazo byo mu mutwe abantu bayitaho basa nkaho bari ahantu inyuma hari icyo kintu cyanditseho ibyo bintu, kita ku bantu, abo bantu bashobora kuba aribo babikora bikabafasha cyangwa bigafasha, n'abo ngabo babikoreye.

Umugabo usa nkaho ari kuvuga mbere ye hateretse amazi yambaye ishati y'ubururu irimo utudomo tw'umweru kandi afite n'amakayi imbere ye asa nkaho ari kubwira abantu bari kumwumva.

Viziti Rwanda, viziti Rwanda ni ukuntu wabasha kuza ukaza mu gihugu cy'u Rwanda ukareba ibidukikije ushobora kuba wasangamo imisozi n'ibindi byinshi n'ibiyaga bigari.

Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ibintu bya serivisi zo gutwara abantu n'ibintu mu Rwanda aho ushobora kuba wakoresha ikarita mu gihe uri gutega, kikaba cyanakugarurira mu buryo bw'ikoranabuhanga ukoreshejeje ku cyuma.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kuba cyakusanya imyanda ahantu hose yaba iri, kikabasha kuba cyayikoramo ibindi bintu bifashishije iyo myanda, mu gukora ibintu bishyashya muri iyo myanda nyine, bikabasha kuba byajya ku isoko bakabigurisha.

Irembo ni ikigo gitanga serivisi ku banyarwanda, aho usanga ushobora kujyayo bakadepoza ibintu bimwe byawe nko kwandikisha ibaruwa cyangwa se kureba ibintu bijyanye n'indangamuntu.

Ahantu ushobora kuba wasanga serivisi zigiye zitandukanye, ushobora kugenda bakagukorera ku bijyanye n'irangamuntu cyangwa se ushaka nko kudepoza wajya ku irembo rikwegereye.

Kubona umugabo uri ahantu hasa nk'aho hari inzu iriho ibirahure n'utuntu twu twapa ,ahanditse umuyoboro wa emutiyeni (MTN) undi muyoboro mu Rwanda hakunze gukoreshwa witwa eyateri (airtel ) eyateri tigo.

Ndabona umunara munini uri ahantu, umunara ushobora kuba watanga amakonigisiyo benshi bazi ku marezo ushobora kuba watanga ibintu bijyanye n'itumanahogatuma kandi hatabaho ikibazo cy'itumanaho.

Ikintu cyanditseho banke ajenti ahantu ushobora kuba wajye ukeneye nka serivise ya banke, aho ushobora kuba wajya ukabitsa amafaranga cyangwa se ukishyurira abana minerevare.

Wifi ni interineti ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda no mu bindi bihugu byinshi kandi wifi ishobora kuba yakoroshya akazi ikihutisha interinete.

Irembo ni ishami, cyangwa se aho umuntu ashobora kujyamo, agakoreramo agatanga serivise zigiye zitandukanye, aho usanga abantu nabuze ibya ngomba ariho bajya bagashaka uburyo babidekarara.

Umuhanda urihantu kandi umuhanda urimo ibinyabiziga, hirya hari amazu y'ubucuruzi aho bicuruza ibintu bijyanye n'ibyo mu rugo, cg se ibindi bintu hepfo hari moto n'akazu kandi.

Ibikorwaremezo biri mu mugi wa Kigali aho ndi kubona inzu iriho ibyapa biranga aho hantu ibihakorerwa , hirya hasize irangi kandi iyo nzu ishobora kuba irimo ibikorwaremezo byiza.

Aba ni ahantu ushobora kuba wagenda ukagura umutungo utimukanwa ukabasha kuba wawubitsa nk'aho ngaho ukabona abantu baguze cyangwa babonye umutungo utimukanwa w'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane na bo barahegukana ukishyura umusoro.

Ndi kubona abantu barimo abana batatu, umwe wicaye abandi bahagaze basa nkaho bari gukora ibikorwa bya leta nko gutanga imiti. Abo bantu kandi harimo umugore umwe.

Ndi kubona umugabo uri inyuma ahantu yegamye hari ikintu kimeze nk'imbaho, inyuma ye hari icyapa gisa nk'aho kiri kwamamaza bimwe mu bikorwa kandi ibyo byose bishobora kuba byamufasha.

Imodoka iri mu bwoko bwa toyota itwaye imizigo irya hari umunara muremure cyane ukikijwe n’ ibintu twakwita ibitoki biri ahantu ku muhanda.

Harimo ukuntu ushobora kuba washaka ibijyanye n'imisoro, yaba imisoro ugejejemo, yaba imisoro utishyuye, ibyo bikadufasha mu kumenya ukuntu twakwishyura imisoro neza, iyo tugejejemo n'iyo dusigaje.

Imodoka umugore n'abagabo bari ahantu ku munara, mu Rwanda kandi haba ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye na enterinete no gutanga ama inite ushobora kuba wahamagara umuntu ukoresheje telefone yawe igendanwa.

Disemba tagisi karikirenda ukuntu wabasha kuba washaka umusoro w'umwaka wose bikoroheye.

Ni abanyeshuri babiri aho bafite utumashini, bisa nkaho ari ibintu bakoze bashushanyije, bose bambaye amashati asa bafite n'imashini zisa.

Visit Rwanda ni ukuntu wabasha kuba waza gusura igihugu cy'u Rwanda aho ushobora kuba wabona ibidukikije birimo: imisozi migari, ibiyaga, ingagi n'ibirunga.

Ibikorwa remezo aho harimo umunara, umunara ushobora kuba watwara amashanyarazi uyavana ahantu hamwe uyajyana ahandi, bityo bikabasha kuba byafasha mu kwatsa ingo, ingo zikabona umuriro neza.

Ndi kubona amazu y'ubucuruzi ari yo twakita amashopingi moru, cyangwa se amaduka aho wasangamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Kandi ndi kubona n'ipoto ririho rishobora kuba ryakaka mu muhanda.

Ku gikuta hari fizibure aho ushobora kuba wakupa cyangwa ugakupura bitewe n'ikintu ushaka gukora aho hantu ushobora kuba wahakupura mu gihe ushaka kwatsa umuriro cyangwa se ugakupa mu gihe udashaka kwatsa umuriro.

Uyu ni umunara ushyira ahantu muri karitsiye kugira ngo utware umuriro uwuvana ahantu hamwe uwujyana ahandi, bityo bikabasha kuba byafasha nka karitsiye kwiyongeza umuriro mwinshi cyangwa se ntubure.

Ndi kubona ipoto rinini riri ahantu, iryo poto rikaba ryabasha gutwara amashanyarazi. Riyava ahantu hamwe rikajya ahandi, ayo mashanyarazi akaba ashobora kuba yakwifashishwa mu ngo, mu nganda, ndetse no mu nzu z'ubucuruzi.

Umunara utwara amashanyarazi uyavana ahantu hamwe uyajyana ahandi ,aho ayo mashanyarazi ashobora kuba ya kwifashishwa mu mujyi wa Kigali, abantu bashobora kotabura umuriro .Ayo mashanyarazi akaba yakifashishwa mu ngo ,mu nganda ,no mu nzu z'ubucuruzi.

Ndabona ipoto itwara amashanyarazi riyavana ahantu hamwe ajyana ahandi. Mungo cyangwa se mu zindi nzu z'ubucuruzi ziri ahongaho.

Ndi Kubona ahantu hari imodoka isa nkaho iri kumanuka igipangu hirya hahagaze umugore kandi hari n'inzu z'ubucuruzi ziri aho hafi zishobora kuba zakoreshwa n'abaturage .

Ndabona umugore usa nkaho akorera ikigo cy'igihugu gishinzwe kuba cyamenya ibintu by'amashanyarazi, umugore yambaye ingofero mu mutwe itamutera ikibazo cy'ibintu byabasha kumanuka, yambaye n'akajire kandiditseho rege n'agapfukamunwa.

Hari icyapa gisa nk'aho cyerekana ahantu hari igikorwa remezo arinka rege ushobora kuba wajyayo ukeneye nk'amashanyarazi cyangwa se ushaka gukora amashanyarazi.

Umunara uri ahantu mu byatsi ubasha kuba watwara amashanyarazi mu gihe bari kuwujyana umuriro bawuvana ahantu hamwe bawujyana ahandi, bityo bikabasha kuba byafasha abaturage mu kubona ibikorwa remezo nk'imvura.

Ibikorwaremezo by'igihugu aho asangamo harimo imihanda, ibyapa, abantu n'ibikoresho biri ku muhanda byatanga umuriro.

Umunara uri ahantu mu muhanda na moto ziparitse ku ruhande zishobora kuba zatwara abagenzi kandi hari mu muhanda harimo n'amabisi manini atwara abantu n'ibikamyo biri ku ruhande.

Ipoto riri ahantu ku muhanda ,iryo poto rikaba rikozwe mu giti cyimbaho kandi iri poto rikaba ritanga umuriro w'amashanyarazi riwuvana ahantu hamwe riwujyana ahandi.

Igikoresho kiri ahantu ku mapoto y'amashanyarazi, gishobora kuba cyajyana umuriro ahanyu hamwe kuwuvana ahandi, ku buryo bishobora kuba byafasha abarutage mu kuba babona ibintu batabona mu gihe cy'ijoro, kandi bakabafasha mu gukora ibintu byabo mu gihe batashye bavuye mu kazi.

Ipoto risa naho ritwaye amashanyarazi riyajyana ahantu hamwe riyavana ahandi, imodoka isa nk'aho iparitse n'umuhanda w'abanyamaguru, ahantu abagenzi baca kugira ngo imodoka zitabasha kuba zabagonga.

Umunara munini uri ahantu usa nk'aho utwaye amashanyarazi uyavana ahantu hamwe uyajyana ahandi, ayo mashanyarazi ashobora kuba yakwifashishwa mu ngo, bitewe n'ibintu izo ngo zikeneye.

Ni ahantu hari ipoto ku muhanda n'indabyo, n'icyapa gisa naho kiranga ahantu, kububyo uhageze udashobora kuba watoba bitewe n'uko abantu ba kuragiye. Hari n'umunara kuruhande w'ibijyanye ni itumanaho.

Ndabona umugore uri ahantu inyuma hari inzu nziza cyane, aho inzu iteye irangi ry'umuhondo, hakaba hariho bariyeri, umugore asa nkaho ari kuri fone afite ibikapu mu ntoki.

Gishinzwe kwita ku barwayi urembye wese niho agana, aho bityo bikabasha kuba byafasha abaturage mu kuba babaho neza, bitewe nuko abaganga babitayeho muri icyo gihugu, muri icyo kigo.

Ndabona umugore usa nk'aho ari kwinjira mu nzu isa n'aho igeretse, iriho irange rijya gusa umuhondo, hirya hari ibiti, umugore yambaye akantu, agapira k'umweru n'ijipo y'umukara.

Abantu babiri bari ahantu bisa nkaho bari kuganira ikigo gishobora kuba ari icyo kwa muganga bashobora kuba baje kwivuza bari ahantu hari amatiyo acamo amazi, amarido ari ku idirishya, itara riri ku muhanda.

Ndikubona ahantu hasa nk'aho ari kwa muganga ahantu hicaye abantu benshi basa nk'aho baje kwivuza, kwa muganga kandi bafasha abantu barwaye cyane.

Ndabona umugabo usa nk'aho atambuka ahantu ashobora kuba ari ikigo cyangwa se hakorerwa ibindi bikorwa ariko hari amabati afashwe n'udutibe dusa nk'aho dusubiririweho.

Inzu ifite imiryango irimo ibirahure; hirya hahagaze umuntu bisa nk'aho iyo nzu ariye ikorerwamo ibikorwaremezo bigiye bitandukanye.

Ndabonamo ibikorwa remezo bya leta, aho ari intebe zicarwaho n'abantu baje guhabwa serivise, n'inzugi zaho wakwinjira mugihe waje guta fata serivise.

Kwa muganga basa nkaho ari imodoka itwara abantu barembye barwaye basa nk'abakoze impanuka, bakabasha kuba bakwitabwaho, bitewe nuko imodoka yahagereye ku gihe, kandi aha hantu hari abantu bahagaze kuruhande y'ibitaro.

Umugore urahantu hasa nkaho ari ahantu ha guverinoma y'urwanda asa nkaho yambaye agapfukamunwa, hirya hari umugabo wicaye Kandi uwo mugore ari kubika ibipapuro mwisakoshi.

Umugore usa nkaho ari ahantu mu kigo. Ahandi hirya hari abandi bagore umwe wicaye n'undi uhagaze nsa nkaho baje kureba ibikorwa cyangwa se kubi kumva ibindi cyangwa bindi bikorwa.

Ndabona abagore bari ahantu, bisa nkaho baje mu bikorwa byabo. Bamwe bafite ibikapu, aho ndi kubonamo umugore uhetse umwana, n'undi mugabo urimo hagati, ahantu hari ibintu bimeze nk'imizigo.

Ikigo hari ikigo gishobora kuba ari icyo kwa muganga gishobora kuba ari ik'ishuri, ushobora kuba wabagana bakagufasha mu bijyanye n'amasomo cyangwa se mu bijyanye no kwivuza byose barabigufasha.

Ndabona abagabo basa nkaho bambaye imyenda isa, nabandi babakikije bambaye imyenda isa. Abongabo benshi bambaye namapingu bari kujyanwa ahantu munzu. Abo bagabo kandi basa nkaho bakoze ibyaha mu gihugu cya urwanda barabahana.

Ndabona umugabo wambaye akagofero k'umukara gasa nka karimo utubara usa nkaho yishimye, ari kureba afite amazuru, afite ubwanwa yambaye ikintu kijya gusa umutuku.

Abagabo basa nk'aho bicaye ahantu umudamu arahagaze asa naho ari kubabwira ibintu byari bitandukanye bari kumva bo ubwabo.

ndabona abantu bahagaze imbere y'abandi bisa nkaho bambaye ibikanzu biriho akantu k'umweru bafashe ku madarapo y'igihugu cy'abo bivuze ko bashobora kuba bari kurahira.

Hano haii ifoto irimo abagabo babiri, n'umugore n'undi mugabo, n'abandi bagabo babiri inyuma, n'umugore uri imbere ya bo na televiziyo, bicaye ahantu mu cyumba bisa nkaho bari mu inama.

Umugabo wambaye ikintu cyumutuku gisa nk'aho ari ikanzu, uwo mugabo asa nk'aho ahagaze ahantu imbere yambariyemo umupira ,uwo mugabo kandi afite uruhara.

Bisa n'aho bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho ku bantu harimo abagabo harimo n'abahagaze kandi ibi bikabasha kuba byavugisha abantu.

Ndabona abagabo babiri basa nkaho bari gusoka m'urukiko ahantu bameze nk'imfungwa, infungwa kandi ziba zarahanwe kubera ibyaha byazo nyuma zikaza kujya kuburana hanyuma zikazakatirwa zikaryozwa ibyo zakoze.

Ndabona umugabo uhagaze imbere y'abantu asa nkaho ari imfungwa, asa nkaho ahagaze imbere y'abaturage afite ibyo ari kubabwira bateze amatwi bose bari kumva.

Abantu bicaye ahantu basa nkaho bari mu kagoroba k'ababyeyi, bamwe bambaye amadarapo mu ntugu utya bamanuka, abandi barashungereye n'abandi baricaye.

Mu cyumba cy'urukiko, hari kuberamo iburanisha. Abari kuburana ndetse n'abunganizi babo mu mategeko, bari imbere y'inteko y'abacamanza.

Ndikubona umugore umwe uhagaze wambaye ikintu mumutwe n'umugabo uhagaze abandi baricaye bisa nkaho bari ahantu mu nama bari kuvuga bagafata umwanzuro ,

Bisa nk'aho bafashe ku idarapo ry'u Rwanda bigaragara nkaho bari kurahira imbere y'igihugu cyabo kugira ngo batazagitenguha bakazakora inshingano nk'uko babisabye.

Umugabo uhagaze usa nk'aho ari kuvuga ijambo ubona ko yishimye, afite akamikoro ku ishati afite amenyo, amatwi, amazuru, n'amaso n'ingohe.

Iyi foto irimo abantu basa nk'aho ari imfungwa bari ahantu basa nk'aho bari kugororwa babwirwa ijambo. Inyuma yabo hari abantu basa nk'aho ari imfungwa.

Umucamapanza uri ahantu bafotoye asa nkaho yenda kumwenyura n'umusatsi w'umuterano utari uwe n'amaherena n'ibintu by'umukara ku ngohe kandi yambaye n'itaburiya y'abashinjacyaha.

Ndabona ingororwa nyinshi aho zifite ibikoresho zisa nk'aho zivuye mu kazi; kandi ingororwa aba ari abantu bafunzwe bazira ibyaha imico, mibi idahwitse; bakaba bari kugororerwa mu kigo kibishinzwe.

Ndabona umugabo uhagaze imbere yabantu, basa nkaho bari mu nama, ariko bisa nkaho ari kubabwira ibintu bateze amatwi bari kumwumvamo vuga.

Ndabona ikigo cya polisi gikorera hano i Remera mu karere ka Gasabo, aho abapolisi bahagaze basa nk'aho bari kurinda icyo kigo gishinzwe umutekano.

Kizimyamwoto aho yari igikoresho gishobora kuba cyakwifashishwa mu kuzimya umuriro mu gihe imodoka zibishinzwe zitaraza bashaka kwifashisha icyo gikoresho ntiwashobora kuba cyasohora ifu cyangwa se umwotsi ari wo twita gaze.

Faya ekisitinguyisha ziri ahantu ni ibintu bishaka kuba byazimya umuriro mu gihe imodoka zibasha kuba zabazimya zidahari kandi ibi byakifashishwa ahantu henshi kandi babiri no mu mazu.

Imodoka ya leta aho ishobora kuba yaza ikazimya ahantu hari kwaka inkongi y'umuriro, iyo modoka ushobora kuba wayibona mu Rwanda mu gihe wagize ikibazo.

Ndi kubona ibikorwaremezo by'igihugu aho ndi kubona ikigo gishinzwe uburinzi aricyo Polisi mu Rwanda kikaba kibasha kudufasha kugira umutekano yaba mu bijyanye no mu muhanda cyangwa se no mu mutekano wacu wa buri munsi.

Ndikubona ibikorwa remezo mu Rwanda aho ndikubonamo umugabo w'umupolisi wo mu muhanda, ashobora kuba yacunga umutekano wo mu muhanda cyangwa se ukoze ikosa akamwandikira.

Abapolisi babiri bahagaze kuri moto yabo bagendana bisa nkaho bacunze umutekano wo mumuhanda umwe yafashe moto undi bisa nkaho yikoze ku gutwi.

Kizimyamoto abantu benshi bakunze gukoresha mugihe habayeho inkongi y'umuriro. Iyo kizimyamoto kandi ishobora kuba yakwifashishwa mu kuzimya umuriro kugira ngo igihe hatinze imodoka zibishinzwe zikunze kuzimya umuriro niyo babanza gukoresha.

Ndabonamo ahantu hari intebe n'umugabo, ahantu ku nzu, harimo ibirahure, n'akantu k'akameza, gashobora kuba kariho imashini, umuntu uhagaze.

Hari abantu basa nk'abambaye ibintu bisa harimo abambaye ubururu, harimo n'abambaye umweru, abandi bicaye ku ntebe harimo umupolisi n'umusirikare, abandi bigaragara ko ari abantu bari bahawe impamyabumenyi.

Umugore usa nk'aho umwe yambaye ingofero usa nk'aho ari guha undi ahantu ashobora kuba yatorera bakabasha kuba batora umuyobozi mwiza bitewe n'abaturage uko babyifuza.

Ndi kubona abantu bafite ibintu bimeze nk'ibikesi basa nkaho bacuritse, harimo umugore n'abagabo basa nkaho bahagaze, abagore nibo bafite ibyo bintu bimeze nk'ibikesi.

Umugabo uhagaze asa nkaho ari kubwira abamwumva yambaye amarinete n'ingofero n'umupira w'umukara uriho utuntu tw'ubururu n'umweru numutuku akabari perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda.

Ni abagabo babiri barimo uwambaye ikote rijya gusa ubururu n'undi wambaye ikote rijya gusa umukara. Umuntu wambaye ikoti rijya gusa umukara, yambaye ipantaro bidahuje n'ikote na karuvati bidasa ni'shati. Kandi bisa nk'aho ari kuvuga.

Imbuga hari abantu basa nkaho baje mu bikorwaremezo aho ushobora gusanga harimo abaje gutora cyangwa se gukora no gutanga inkingo kuri bamwe bafite ibibazo cyangwa mu gukumira indwara runaka.

Abantu bicaye ku ntebe basa nkaho bari kwifotoza, abandi barabahagarariye hejuru harimo abagore bambaye imikenyero n'imyenda ya kinyarwanda, harimo n'abagabo bambaye amakoti

Mugabo usa nkaho yicaye ari gusinya ibintu wambaye marinete w'umukara n'umugore umuhagarariye ubu akaba ari perezida Paul Kagame asa nkaho ari kurahira n'umugore we amuhagaze impande ariwe Jeannette Kagame imbere yabo hahagaze umuntu wambaye ikanzu y'umutuku.

Umuntu usa nkaho usohotse mu modoka hari umuntu umeze nk'umusirikare umufungurira umuryango yambaye akantu k'umweru n'agashanete umusatsi we ni natirere ikintu kimeze nk'igitenge.

Ndi kubonamo abantu basa nk'aho bisize amarangi, bari kwamamaza umuryango ushinzwe kumenya cyangwa se kumenyekanisha EAC . Paul Kagame basa nk'aho bari kumwamamaza.

Ndi kubona abagabo basa nkaho bari ahantu mu nama kumwe n'abagore bari mu nama, bisa nkaho bari kuganira bakora inama mu buryo burambuye mu cyumba cyiza kirimo n'utubati twiza.

Umugabo usa nkaho yicaye ari kwifotoza, yambaye ikote ry'ubururu bwijimye na karuvati y'ubururu bwerurutse, n'ishati y'umweru akaba afite umusatsi ujya kuba mo mwinshi ariko atari mwinshi.

Ndabona umugabo uri ahantu asa nkaho ari guseka, kandi umugabo ari kumwe nabandi inyuma bambaye amakoti numugore umwe, bose kandi mbateretse imashini imbere.

Umugore wambaye ipantaro, ikweto ndende, isaha n'ikote n'umugabo wambaye ishati n'ikweto basankaho bicaye bari munama.

Umugabo uhagaze umugabo yari umukandida w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane yiyamamarizaga kuba perezida w'igihugu cy' u Rwanda aho yaje kuba yatsindwa na perezida Paul Kagame.

Aha ni ahantu hari amazu mu mujyi wa Kigali hari amazu y'ibikorwa remezo, aho ushobora gusanga yinjiza amafaranga menshi ku mwaka cyangwa se ku kwezi, bikabasha kuba byafasha igihugu mu gutera imbere kidasubiye inyuma.

Kimironko ni ikigo abana bashobora kuba bakigiraho, kandi ni nk'ahantu batoreye bashyize site y'itora, aho abaturage bujuje imyaka yo gutora bagiye gutorera.

Ndabona abagabo babiri basa nkaho bari kumva ibiri kuvugirwa ahantu mu nama, biteretse amazi imbere n'abandi inyuma, harimo n'umugore usa nkaho witandiye, ni umusiramu n'umugabo hirya yiwe.

Igipapuro gisa nk'aho kiriho umubare w'amajwi y'umuntu usa nkaho yatowe ariwe perezida Polo Kagame w'u Rwanda akaba yatowe mu majwi menshi cyane.

Umugabo usa nkaho yishimye wambaye amarinete n'ikote na karuvate n'ishati ,uwo mugabo akaba ariwe president paul kagame akaba ayoboye igihugu cy'urwanda .

Ndabona umuhanda urimo moto eshatu, hirya yaho hari icyapa cyanditseho ngo tora Paul kagame ariwe ubungubu uyoboye igihugu cy'u Rwanda hirya nanone hari etaje ya mbere nini isumba izindi mu Rwanda.

Ndabona ibikorwa remezo by'igihugu cy'u Rwanda aho mbona umuhanda urimo igikamyo gitwaye imizigo ari yo matafari abantu benshi bakunze kwita amatafari ahiye.

Ndikubona ibikorwa remezo by'igihugu cy'u Rwanda aho ndi kubona umumotari atwaye moto itwara abagenzi yambaye n'ijire y'umuhondo n'ubururu na kasike, imbere hari akamodoka kameze nk'igikamyo gashobora kuba gatwara imizigo.

Ndabona imodoka nini cyane abantu benshi bakunze kwita shira umuteto bo mu mujyi wa Kigali, aho zishobora kuba zatwara abagenzi n'ibintu. Iyo modoka ikabasha kuba yakwishyurwa mu buryo bw'amakarita, aho ukuresha ikarita uri kwinjira, mu gusohoka nabwo ukaza gukoresha ikarita kugira ngo bakugarurire. Hari nk'ukuntu abagenzi babasha kuba basohoka muri bisi cyangwa bakayifatira ahantu hatabugenewe.

Ndi kubona ibikorwa remezo aho ndi kubona umuhanda birimo imodoka abantu benshi bazi nka tagisi vuwatire, aho bitwara abagenzi n'amamoto ari muri uwo muhanda atwaye abagenzi no mumuhanda w'amaguru harimo umugore.

Ndabona imodoka iri mu muhanda imbere yaho hari umuntu utwaye igare wambaye ingofero y'umutuku n'imbere mu modoka harimo umuntu wambaye umupira w'umweru.

Ndabonamo ibikorwa remezo aho usanga mu mugi hari imodoka ziparitse zikora ibintu byo gutwara abagenzi zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi kandi hirya hari ahantu bisa nkaho ari iduka bacururizamo imyenda.

Icyapa gisa nkaho kiri ahantu mu mugi wa Kigali, kiriho akantu kanditseho pa, kimenyesha ko ari aho bisi ziparika mu gihe umugenzi akeneye kuvamo. Inyuma hari umuco nyarwanda uri ku bipapuro.

Umuhanda, umuhanda urimo moto n'indi moto iparitse iriho akantu k'akapa kariho ara na fa n'umunani na rimwe rimwe na ja cyangwa se ca.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri z'umweru zisa ,imwe abantu benshi bakunze kwita tagisi vatiri , iyi ni imodoka ishobora kuba yatwara abagenzi ariko ukayishyura mu ntoki amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se andi mafaranga abonetse.

Ibikorwa remezo by'igihugu cy'u Rwanda, aho ndi kubona umuhanda wa kaburimbo akenshi ukunze kwifashishwa mu kugenderamo ibinyabiziga ya bifite moteri, cyanwa ibidafite moteri, kandi ndi kubonamo ikinyabiziga cyitwa ikamyo kikaba cyabasha gutwara imizigo kivana ahantu hamwe kiyijyana ahandi, nkabonamo umumotari utwaye umugenzi.

Kubona umuhanda, umuhanda urimo abantu. Umuntu usa nkaho utwara ibintu akoresheje akantu gakozwe mu cyuma na moto iri kumanuka, izi ni inzu z'ubucuruzi ziri aho hirya.

Ndabona mo ibikorwa remezo aho ndi kubona umuhanda urimo imodoka y'igikamyo ,n'imodoka iciye bugufi itwarwa n'umuntu ku giti cye, imodoka y'igikamyo iba igomba gutwara imizigo hirya y'igikamyo ndabona umunyonzi utwaye umugenzi.

Umuhanda urimo imodoka abantu benshi bakunze kwitwa igikamyo ariko igikamyo kitari kinini kicisha kuba cyatwa cyangwa amabuye ibyuma cyangwa se ibindi bikoresho aho iyi modoka iri mu muhanda.

Kubona ibikorwa remezo by'igihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali aho ndi kubona n abamotari babiri bari mu muhanda bakikijwe n'ibiti bibiri abantu benshi bakunze kwita iby'umukindo ibigaragaza umujyi wa Kigali neza aho bidashoboka kuba byaranga umwanda ahantu biriba hariri isuku nyuma hari imodoka...

Ndikubona ahantu mu muhanda hari moto zitwara ibintu zikabasha kuba zabivana ahantu hamwe zibijyana ahandi, hirya mu muhanda w'abanyamaguru hari umugore usa nk'ako ari kugenda.

Umuhanda usa nk'aho ari urimo imodoka, imodoka abantu benshi bakunze kwita kwasiteri asiteri itwara abagenzi imodoka yihuta.

Ahantu haparitse abamotari benshi bari ahantu mu muhanda bisa nkaho bari ahantu ku iseta bategereje abagenzi kubatwara aho bajya aho ariho hose hanyuma bakaza kubishyura.

Imodoka ebyiri z'ibikamyo ziri ahantu mu mbuga, zikoreye imizigo igiye itandukanye, aho ushobora kuba wasangamo umuceri, no hirya ho hari abantu bahagaze n'umugore umwe uri kumanuka n'umutaka.

Kubona ibikorwa remezo by'u Rwanda by'igihugu cy'u Rwanda aho ndi kubona umumotari ari mu muhanda nta mugenzi atwaye kandi hirya hari igikuta gisize irangi ry'mweru n'igiti imbere n'amapoto mu muhanda n'amatara atanga amashanyarazi muri uwo muhanda.

Harimo imodoka iri ahantu ku muhanda itwaye imizigo iyijyana ahantu hamwe iyivana ahandi, harimo umuntu uri kugenda ufite igikapu n'ibiti inyuma yabo.

Imodoka iri ahantu mu muhanda, iri kugenda. Itwaye abagenzi. Itwawe n'imushoferi, kandi iyo modoka ni kwasiteri. Kwasiteri ni amabisi asa nk'aho atwara abantu n'ibintu.

Ifoto y'imodoka bisa nkaho harimo umuntu utwaye, umugabo uri kugenda n'amaguru, moto n'abagore babiri n'ibikamyo biri ahantu mu muhanda bisa nkaho biparitse n'ibiti.

Umuhanda urimo imodoka isa nkaho itwaye imizigo, umuntu uyirimo yambaye akantu k'umweru imodoka, igice kimbere gisize irangi ry'umweru gifite n'amapine.

Imodoka iri ahantu mu muhanda wa kaburimbo isa nkaho iri kugenda. imodoka kandi izwiho kuba yakwitorezwaho mu gutwara ibinyabiziga byitwa imodokari bigendera ku muhanda wamaguru.

Imodoka abantu benshi bakunze kwita shira umuteto aho usanga itwara abagenzi ikabasha kuba yatwara nk'abantu ijana mu gihe k'isaha ikaba ibagejeje aho bagomba kuba bajya.

Akantu gatwara imizigo n'abamotari kuruhande bambaye akajire n'utundi tujire twabo, bafite na kasike basa nkaho bari kuruhuka, hirya yaho hari umugabo wambaye umupira w'ubururu usa nkaho ari umugenzi.

Ibikorwaremezo by'Igihugu cy'u Rwanda aho ndi kubona umuhanda ugenderamo ibinyabiziga yaba ibifite moteni n'ibidafite moteri, aho ndi kubona imodoka nini y'indikamyo itwara umucanga n'amabuye, hirya hari igare.

Bimwe mu bikorwaremezo by'igihugu cy'u Rwanda aho ndikubona umuhanda urimo moto imwe isa nkaho iri kugenda itariho umuntu, hirya hari icyapa n'ikindi cyapa n'ahantu hari udutebe ukuntu.

Ndabona umuhanda wa leta y'igihugu cy'u Rwanda aho uri kubonamo ibinyabiziga bi bitandukanye harimo ibidafite moteri n'ibifite moteri hari bisi bakunze kwitwa bisi itwara abantu bajya hanze y'igihugu aho harimo kenya, uganda, n'ibindi bihugu n'ibindi binyabiziga ndi kubonamo bidafite moteri ariby'amagare.

Ndi kubona umugabo utwaye akamoto kamwe gatwara imizigo mu muhanda hirya hari ibiti kandi ari mu muhanda asa nkuwafatiyeho.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo ibinyabiziga bidafite moteri n'ibifite moteri. Aribyo amagare adafite moteri, imodoka zifite moteri kandi amagare ndabona hariho abantu bayatwaye.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Iruhande rw'umuhanda hari kugendera umunyamaguru, mu gihe inyuma y'imodoka ho hari amapikipiki.

Umuhanda urimo igikamyo gitwaye ama matera abantu bashobora kuba baryamaho baruhutse, kikaba kirikuyajyana nakandi kamoto gatoya gatwara imizigo.

Ndi kubona imodoka abantu benshi bakunze kwita shira umuteto, isize irange ry'ubururu iriho ibintu bisa nkaho iri kwamamaza, bityo rero izi modoka zibasha kuba zatwara abagenzi, n'ibintu byabaga bakoresheje uburyo bwabo bwo kwishyura bw'amakarita.

Ndikubona ibikorwa remezo byigihugu cy'u Rwanda aho ndi kubona umuhanda wubatse neza urimo moto, igare, ikamyo na shira umuteto .

Ndabona mo ibikorwa remezo aho usanga harimo imodoka zitwara abagenzi zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, kuruhande ndabona abagabo bahagaze n'umugore wambaye ikintu cy'ubururu usa nkaho azamutse.

Umuhanda hirya haparitse moto zitwara imizigo zitwarwa n'abantu, hirya ndabona amatara asa nkaho ari kwaka n'amaferuje mu muhanda n'umunara.

Imodoka iri ahantu mu muhanda isa nkaho itwaye imizigo, isa ubururu ifite n'amapine kandi iyo modoka iri ahantu mu muhanda ishobora kuba itwaye imizigo y'ahantu bagiye gukoresha ibintu

Ndabonamo ibikorwaremeze bya goverinoma yu Rwanda aribyo imodoka zitwara abagenzi zibakuye ahantu hamwe zibajya ahandi n'amamoto atwara abantu mu buryo bwihuse cyane.

Ahantu mu muhanda wa Leta urimo imodoka, moto n'amagare biri kugenda n'abantu gutya ku gahanda k'abanyamaguru, kandi icyo gikamyo gishobora kuba cyatwara imizigo n'indi modoka iri nyuma yacyo ishobora kuba itwawe n'undi muntu.

Ibikorwaremezo bigiye bitandukanye aho ndikubonamo ahantu heza cyane ushobora kuba wasohokana ukajyanayo n'abawe mu kishima mu karya ubuzima.

Abantu bashaka kwicara bari kuruhuka, ariho mu mugi, mu mugi kandi, aho hantu haba hegereye nk'ahantu bacuruza amakawa, imyenda, imikufe, biboshye mu bintu bya kinyarwanda.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye na interinete mu Rwanda, gishobora kuba cyagurisha ama interinete, aho ushobora gusanga famiye ikoresha interinete bakuye muri icyo kigo, interinete ishobora kurangira ukagura interinete ukoresheje uburyo bwa telefone ukishyura.

Ndikubona ikibuga kinini kirimo abantu benshi basa nkaho bari gukora siporo, bisa nkaho bari gukina umupira w'amaguru ariwo mu Rwanda abantu benshi bakunda, kandi harimo n'undi uri kwambara inkweto asa nkaho agiye mu kibuga.

Ahantu ku muhanda hari intebe aho umuntu ashobora kuba yakicara mu gihe arushye cyangwa se mu gihe ari kureba ikintu runaka hirya hari amabuye asa nkaho yamenwe.

ahantu handitse urugo mboneza mikurire y'abana bato ariho ushobora kujyana abana bawe mugihe wagiye mukazi, abana bakabasha gukura bafite imico myiza nibindi.

Ahantu mu mbuga nini cyane bisa nkaho ari ikibuga, hirya yaho hicaye umuntu kandi iki kibuga gishobora kuba cyakorerwamo ibintu bigiye bitandukanye aho bakiniramo umupira n'ibindi.

Imbuga nini imo ibyatsi kandi ahantu hantu hashobora kuba hajya hajya ibikorwa remezo aho ushobokakwa hakubaka amazu ya kijyambere hakabasha no kwahakorerwa ibindi bikorwa.

Uretse moto n'imodoka mu Rwanda haba amaparikingi atandukanye aho ushobora kuba wagenda ugaparikaho ikinyabiziga cyawe ubasha kuba wabishyura ukoresheje amafaranga yo mu Rwanda yo muri icyo gihugu.

Icyapa gishoborakwa cyakwifashishwa mu muhanda iki cyapa kandi gishobora kuba cyakwereka ibintu bishakwa bibera aho hantu icyapa gikunzezwe gushyirwa mu mihanda.

Mu Rwanda haba ibyapa bishobora kuba byakwereka ko warengeje umuvuduko, cyangwa hari ahantu ugeze uba ugumba kugabanya umuvuduko, n'ibyaka bikwereka ahantu utagomba guhagarara n'aho ugomba guhagarara, bigenda bifasha abantu mu kubahiriza amategeko y'umuhanda.

Ndikubona icyapa gisa naho kibuza ahantu hashobora kuba haca igare, kandi icyo cyapa iyo kibikoze gutyo kiba kiri kubuza ko hashobora kuba hari ibyago aho hantu.

Icyapa gishobora kuba cyarangira umuntu ahantu ahajya, ahakata, cyangwa se ahantu ageze ukuntu bahita muri terime runaka, ibi kandi bishobora kuba byafasha abantu kumenya ahantu bagiye.

Ndi kubona icyapa gishobora kuba cyakuyobora ugiye nk'ahantu, bityo bikabasha kuba byafasha abaturage mukubaho neza ntihagire ikibazo bagira babishikirijwe na leta.

Icyapa kiri ahantu mu byatsi bisa n'aho bikikije, icyo cyapa kikashobora kuba cyaranga bimwe mu bintu bishobora kuba byafasha abaturage mu kubaho neza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ahantu mu muhanda hari icyapa gishobora kuba cyaranga ibintu bikorerwa nk'aho hantu, cyangwa se ibintu wakorera aho ahantu, bityo bikabasha kuba byafasha buri muntu wese uhaciye kumenya igikorerwa aho hantu.

Nta cyapa gisa nkaho cyakoreshwa ahantu mu muhanda kikaba cyaranga ibintu bigiye bitandukanye bityo bikabasha kuba byafasha abaturage mu gukurikiza amategeko yo mu muhanda bitewe n'icyapa kiri mu muhanda .

Ndi kubona icyapa cy'umuntu usa nkaho ari kugira umucanga awujugunya ahantu, icyo cyapa kikabasha kuba cyakoreshwa aho hantu ku muhanda gishaka kuranga ibikorwa bibera aho hantu.

Ibikorwaremezo biri mu Rwanda mu karere ka Rusizi, aho ndi kubona icyapa cyanditseho Rusizi kandi nkabona n'umuhanda n'amapoto ku muhanda wa Rusizi.

Icyapa kiri munsi y'umuhanda ho gatoya ahantu mu muhanda hari kugendamo imodoka, icyo cyapa cyanitseho Bugesera. Bugesera ni karere gashobora kuba gatuwe n'abantu benshi, Bugesera kandi ni nziza.

Ndabona icyapa gisa nkaho kiranga ahantu mu mujyi wu Rwanda, ahantu bita i Rusizi, i Rusizi ni ahantu ushobora kuba wajya ukahatemberera cyangwa se ukajya kubayo.

Ibikorwa remezo bya leta ahantu ushobora kuba wasanga imihanda ya leta, ari yo iri Kibugabuga kandi ikabasha kuba yafasha abantu mu gukora ibintu byabo bya buri munsi.

Inzu irimo ibikorwa remezo bisa nkaho bitagaragara, aho iyi nzu ishobora kuba ari iya leta, ikaba iriho amarangi y'umweru n'andi y'ubururu n'ibirahuri.

Ni ahantu ushobora kuba wasanga amazu meza arimo ageretse n'atageretse. Kandi aho hantu haba abantu Kandi abantu bakabasha kuba babaho mu buzima bihangira imirimo. Kimironko.

Murabona icyapa gisize irangi rijya gusa shokora kiriho ibintu bisa nkahoho kiri kuranga, cyamamaza ibintu by'ikawa ndetse n'ibindi bintu byinshi.

Ndabonamo ahantu basa nkaho bacuruza amata ku cyuma. Amata ushobora gusanga atunganyijwe hari akonjeshejwe, kandi ibyo bifasha abaturage kuba bayabona kubere ko bitabasha kuba byabasaba kujya gukama inka, ahubwo ukabasha no kuba wayasanga mu maduka.

ndabona ari hoteri aho ushobora kuba wajya ugakodesha ijoro rimwe, cyangwa se icyumweru, ukwezi bitewe n'ikintu ushaka ukabasha kuba wabishyura bitewe n'ukuntu mwabyumvikanye kandi aho hantu bakwakira mu buryo bwose ushobora kuba wahajya ukanoga, ukanarya byose n'umuriro , n'ibikoresho byo mu nzu wakenera.

Ndikubona ahantu hari inzu y'imiturirwa igeretse kabiri iririmo amashanyarazi n'ibirahure ikaba ifiteko hejuru bafite n'amatiyo atwara imyanda y'amazi hanze.

Ahantu hazwi cyane mu mujyi wa kigali ahantutu hitwa I Kanombe ku kibuga cy'indege ahantu hazwiho ko ariho haparika indege kandi ndabona imodoka n'indi y'umukara nkabona ahantu hari resitora ibasha kuba yatanga ibyo kurya n'indi nzu ndende nziza .

Utwaye igare n'undi utwaye imodoka n'abandi bari kugenda n'amaguru mu Rwanda ushobora kuba wahabona abantu batwaye amagare, ukaba wabasha kubona abantu batwaye moto, imodoka n'abandi bagenda n'amaguru byose bibafasha mu buzima bwa buri munsi.

Uri kubona mugabo usa nkaho ari kumanuka ahantu mu gipangu, aho hantu hakaba hashobora kuba habera ibikorwa remezo byo mu gihugu. Kandi uwo umuntu afite telefone mu ntoki.

Ku muhanda hasa nk'aho imodoka iri kugenda mu muhanda. Hirya hari amazu meza cyane yubatse mu buryo bwa kijyambere. N'ipoto ritanga amahanyarazi muri ayo mazu.

Mu bikorwa remezo naho harimo itaje nziza cyane ushobora kuba wayijyamo ugafata umuryango ukabasha kuba wafunguramo igikorwa cyawe cy'ubucuri cyangwa se ibindi bikorwa binyuranye.

Ndi kubona ahantu hasa nk'aho hakorerwa akazi ,aho hantu kandi hari inzu ya etaje imenyerewe mu gihugu cy'urwanda .ifite geti ishobora kuba yasunikwa n'amapine.

Kubona ibikorwa remezo biri mu mugi wa Kigali, aho ubona inzu iri ahantu, munsi y'umuhanda ari gipangu, ikikijwe n'ibiti.

Remera ni agace k'u Rwanda, k'i Kigali, aho harimo ibikorwaremezo byinshi bigiye bitandukanye, ndikubonamo amafoto y'inzu n'ibindi bintu ku ruhande.

Ahantu bisa nkaho ari umudugudu cyangwa se bita karitsiye harimo imodoka zisa nkaho ziparitse, n'abamotari, n'abantu bari kugenda n'amabotike ibigaragara.

Ibikorwa remezo ahantu hubatse harimo amapoto ariho insinga n'inzu za kadasiteri z'imiturirwa nziza cyane zirimo n'amatara ashobora kuba yamurikira aho hantu mu gihe bwije.

Imodoka isa nk'aho iri kumanuka ahantu kumuhanda, kandi kumuhanda hari igikoresho ushobora kuba washyiraho cyangwa ushobora kuba wafungura mu gihe habaye inkongi y'umuriro kumuhanda.

Ndi kubona igipangu kiriho itara, kiriho n'amadirishya yacyo; mu imbere mu gipangu hakaba hari inzu nziza cyane ifite ibirahuri.

Ndikubona umugabo utwaye gaze arizo abantu bakunda gukoresha mungo bateka, nundi hirya ye arikugenda na amaguru, imbere yabo gato hari inzu nini ariyo abantu basengeramo ku cyumweru.

Ndikubonamo umuhanda mwiza cyane aho ugabanywemo kabiri n'amarange hamwe ushobora kuba wazamuka ahandi ukamanuka harimo ibinyabiziga aribyo imodoka n'ibyapa kuruhande.

Ikiraro kirekire munsi hari gucamo ibinyabiziga bya moteri aribyo moto ku ruhande hari abantu basa nkaho bari kugenda munsi y'ikiraro amatara ari kwaka muri iyo mihanda.

Ikiraro kiri ahantu mu muhanda wa kaburimbo icyo kiraro kikaba giherereye mu mujyi wa kigali aho icyo kiraro gikoreshwa buri munsi gicishwaho abantu n'ibinyabiziga kandi munsi naho harakoreshwa.

Ndi kubonamo ibikorwa remezo usanga hari umuhanda uteyemo ibiti gutya, uwo muhanda ushobora kuba wakoreshwa mu ngendo z'abaturage kandi bikifashishwa cyane mu gukora imirimo yacu.

Ndabona umuhanda, umuhanda hari uzamuka hari n'ukata ahantu usa nk'aho winjira ahantu muri geti kandi hari abamotari babiri basa nk'aho bahaparitse, hirya hari imodoka n'abantu babiri bari kugenda.

Umuhanda uri mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, aho ndikubona moto iriho umuntu usa nk'ayitwaye, hirya imbere hari umunyamaguru usa nk'aho ari kwambuka umuhanda umumotarari aramutegereje.

Umuhanda urimo moto zisa nkaho zirimo kugenda, uwo muhanda kandi ukabasha kuba wakoreshwa n'abaturage mu gihe bagiye mu bikorwa byabo bya buri munsi bibinjiriza, kandi imihanda irifashishwa cyane.

Ndabonamo ibikorwa remezo bya reta y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, ahantu ndabonamo imodoka zitwawe n'abantu n'imodoka itwara abanyeshuri ifite ibara ry'umuhondo na moto.

Ibikorwa remezo by'igihugu cy'u Rwanda, aho ndi kubona umuhanda urimo ikintu twakwita nka ama feruje, ashobora kuba yakererekana ko abanyamaguru bashobora kuba bakambuka, bityo no mu muhanda nikubonamo n'imodoka n'amamoto ari kugenda.

Umuhanda uri mu mugi wa Kigali aho ufite ibyerekezo bigiye bitandukanye urimo n'amabara yerekana ko iyo umunyamaguru iyo ari kwambuka nta modoka igenda.

Aha ngaha harimo ibinyabiziga harimo ibyapa bisa nkaho biri kwamamaza, ibinyobwa, imodoka, moto, amatara ku muhanda, n'ibiti biri ahantu n'imodoka isa nkaho iparitse ku ruhande.

Aha ni munsi y' ikiraro harimo moto n' igare bisa nkaho biri kugenda. Ikiraro cyubakishijwe amabuye akomeye cyane agifashe. Giherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Imodoka, umugabo mu nsi y'ikiraro harimo igiti giteye gisa nkaho gisuma ikiraro n'amatara ku muhanda ahantu ku manywa.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga, harimo imodoka, moto n'abantu ku ruhande ku muhanda w'amaguru, aho buri wese ari kujya mu bikorwa bye.

Umuhanda usa neza usukuye urimo ibinyabiziga byaba ibya moteri cyangwa ibitari ibya moteri, harimo: igare, imodoka nabantu bari kugenda.

Umuhanda urimo moto n'igare hirya hari amapave n'ibyatsi kandi harimo n'ipine rigaragara igice.

Umuhanda urimo amamodokari, ibikamyo na moto ziriho abagenzi n'indi moto itariho umugenzi iri gukata kandi izo modoka ziba zirimo imizigo ziri ku ruhande.

Ku muhanda hari amamodoka, moto, umuntu n'ahantu hasa nkaho abagenzi bicara, n'umuntu ukeneye kuba yatega imodoka arayishyura kuri ako kantu akabasha kuba yategereza imodoka ikamutwara mu bintu bye byose bya buri munsi.

Umuhanda ushobora kuba wakoreshwa mu gihe hari gucamo moto n'ibindi binyabiziga birimo imodoka, amagare n'ibikamyo, uyu muhanda kandi ubasha kuba wafashishwa gukora akazi k'abantu ka buri munsi.

Umuhanda mwiza cyane urimo ibinyabiziga bya moteli nibitari ibya moteli aho usangamo igare na moto n'amamodoko kandi aho hantu hari ikiraro hejuru y'ikiraro naho hari guca abantu.

Kubona umuhanda urimo igare, iryo gare rikaba ritagira ikintu twakwita nka moteri. Iryo gare rikoreshwa n'amaguru iyo uri kuritwara rikabasha kuba ryatwara umugenzi ushaka kuritega, imbere hari imodoka ziri kugenda.

Ndabona umuhanda, umuhanda ukaba uherereye mu mujyi wa kigali, aho ushobora kuba umuhanda wakoreshwa n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda, aho hacamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Ndikubona ibikorwaremezo biri hano ku Gisozi ahantu bita ku kinamba ku kiraro munsi harimo imodoka irimo umuntu kandi icyo kiraro gifasha benshi mu bikorwa byabo.

Ahantu mu ijoro bisa nkaho hari ikiraro munsi hari ibinyabiziga biri kugenda byakije amatara, hirya hari icyapa kigana aho abantu bajya kandi icyo cyapa kirerekana ahantu hari ikibuga k'indege.

Muri ibi bikorwa remezo biri mu mugi wa Kigali, ndi kubonamo umuhanda cyane, urimo moto ukikijwe n'ibiti n'amatara, abasha kuba yamurikira umuhanda Kandi birafasha.

Ibikorwa remezo aho ndikubonamo imihanda n'akapa kari mu muhanda karanga icyerekezo n'aho ugomba kujya, n'umuntu uri kwambuka n'undi uri kwambukiranya umuhanda na moto ziri gukata.